Ahateraniye imbaga y'abantu benshi bakaba bakoze inama imbere yabo hari amazi y'inyange ndetse na ji y'inyange ikoze muri pome, hari ibishushanyo by'idarapo ry'igihugu hakaba hari umugabo uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi mu ntoki, n'undi umuhagaze iruhande w'igitsina gore wambaye ishati y'icyatsi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe hakubiyemo igitsina gore n'igitsina gabo. Urabona ko hari izuba ryinshi kuko bamwe muri bo bafite imitaka, bari kubyina imbyino ubona ko bafite ibyishimo.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu, hivanzemo igitsina gore n'igitsina gabo basa nkaho bahuye ku gikorwa runaka, hatwikirije amashitingi y'umweru atatseho amabara agize idarapo ry'u Rwanda.

Ahateraniye imbaga y'abantu benshi hakubiyemo igitsina gore n'igitsina gabo ndetse n'urubyiruko haragaragaramo umugabo usa nk'ukuze ufite indangururamajwi mu kiganza uri kuvuga ndetse ubona ko abantu bose bamuhanze amaso.

Ahagaragara imbaga y'abantu benshi, hagaragara muri sale nini cyane, ndikubona abanyeshuri bambaye inifomo ndetse n'ababyeyi n'abarezi babo, imbere harimo abana bari kubyina basa nk'aho ari intama batumiwemo.

Ni umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki wambaye ikote ndetse inyuma ye hakaba hariho icyapa cyanditseho invest in Rwanda bijyanye na RDB bigaragara ko bari kuvuga ku bintu bijyanye n'igihugu cyacu.

Inama ikubiyemo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abashinzwe umutekano bazwi na Polisi n'abasirikare, urabona ko bateretse amaji y'Inyange imbere yabo ndetse n'amazi.

Ahantu hateraniye imbaga nyamwinshi hakubiyemo abakuze, urubyiruko ndetse n'abana, hagati muri bo hahagaze umumama usa nkaho ari kugira icyo avuga ku nsanganyamatsiko runaka.

Ahahuriye imbaga y'abantu benshi higanjemo urubyiruko bigaragara nk'aho bari mu myidagaduro igiye itandukanye, imbere hakaba hari abagera muri barindwi bari mu myidagaduro bashaka gukora ubufindo bereka bagenzi babo.

Abakobwa bagera ku munani ,bari kubyina imbyino gakondo, urabona ko bambaye imikenyero myiza, inyuma yabo hariyo abandi bambaye imipira y'icyatsi, basa nk'aho na bo bari mu gikorwa kimwe kibahurije hamwe.

Ahantu hateraniye abantu benshi, hakubiyemo n'abari kubyina imbyino y'umuco nyarwanda ndetse n'abandi bo mu nzego z'umutekano, harimo n'abagore bambaye imikenyero.

Ahagaragara ikirori kikaba cyataramiwe n'intore ziri kubyina imbyino nyarwanda, ikaba iri mu muco kandi ikunzwe n'abantu benshi mu Gihugu cyacu.

Inkono y'itabi ibajwe mu giti imbere hasa umweru ifashwe n'intoki, igaragaza umuco wa kera w'abanyarwanda, akaba ari ikintu bifashishaga banywa itabi hataraza bino bya kizungu.

Ikondera ni igikoresho cyakoreshwaga mu gitaramo cyo hambere kikaba cyarakoreshwaga n'umuntu wabaga ubizobereyemo nk'uko hano turibona rifite imyenge ine riba ripfumuye hejuru no hasi abarizi urabizi ko ricuranga neza.

Abukangurambaga ku bigendanye n'umuco w'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi ni ikintu gifasha abaturarwanda gukorera Igihugu batatandukiriye umuco, nk'uko ndi kubibona hano hari imbaga y'abantu hakubiyemo igitsina gabo n'igitsina gore, abakuze ndetse n'abana bakiri bato kugira ngo bige ku byagirira akamaro Igihugu hakubiyemo n'umuco wacyo.

Umuco nyarwanda ni umuco mwiza cyane wubahisha abantu bose muri rusange abagabo, abategarugori kandi utuma twambara twikwije bigashimisha buri muntu wese ubibonye kandi tunyurwa na wo tukawishimira kuko hari byinshi udufasha kandi ubasha kudutandukanya n'amahanga, tukaba ari ibintu twishimira cyane.

Ikibindi nk'uko turi kukibona hano ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere mu mirimo nko kuvoma, ndetse no gusabikamo nk'umutobe kugira ngo bajye baha ababaganye basomeho bashire akanyota.

Gicanda n'umwe mu bamikazi u Rwanda rwakize nk'uko ari kugaragara hano yambaye utuntu tw'umweru mu mutwe ndetse n'udukoni tubiri dushinze ku mpande, akaba yari umugore w'umwami w'u Rwanda rwa mbere hataraba demokarasi ngo hayobore aba perezida.

Ahagaragara imbaga y'abantu benshi biteretse amazi y'inyange ndetse na ji y'inyange imbere yabo hakaba hahagaze umusore ushaka kubyina imbyino nyayarwanda, hakaba afite icumu yakenyeye hasi hejuru akaba yambaye ishati y'umweru.

Ibiseke ni bimwe mu bikoresho umuco nyarwanda ukoresha ubikamo ibiribwa urugero: amasaka, ibigori, soya, uburo ndetse n'ibindi, nanone kikaba gikoreshwa mu kujyanamo ibintu mu gihe ugiye guhemba.

Ingoma ni kimwe mu gikoresho bakoreshaga bataramye ndetse nk'uko igaragara hano, iri kumwe n'ingofero umwami byambaraga hamwe n'inkoni, ni ukuvuga ko ari ibyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, tukaba tubifata nk'umuco w'Abanyarwanda.

Mu gitaramo haragaragara umukobwa uri kubyina yambaye imikenyero n'akantu mu ijosi n'utundi tubiri mu gahanga ateze amaboko bisa nk'aho ari kubyina imbyino Nyarwanda, ikaba ari umwe mu muco w'Abanyarwanda.

Akazu kubatse mu byatsi, gafite uruzitiro rukozwe mu rubingo, inyuma yako harimo ibiti birebire, uwo akaba ari umuco nyarwanda wo hambere, nibwo buryo bakoreshaga bubakamo inzu.

Abagabo babiri bakora ibijyanye n'amashanyarazi, bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'ingofero zishinzwe kurinda umutwe, urababona ahantu hagaragara nko mu kibuwate giteranyirijemo insinga, barimo gukora ibintu bitandukanye.

Ibikoresho bikunzwe gukoreshwa mu gihe bakora umuriro w'amashanyarazi, hagaragara insinga ndetse n'utubuwate tugiye turimo ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Ahari kubakwa inyubako haragaragara abantu babiri bambaye ibisarureti by'ubururu n'ingofero zo mu mutwe zibafasha kwirinda icyabikubita hejuru urabona ko bari mu kazi kabo kandi bagakunda.

Ahazwi nk'ahakoranyirijwe bimwe mu byuma bifasha gukwirakwiza amashanyarazi, ndahabona abantu babiri bambaye imyambaro yabugenewe kugira ngo babashe gukora mu mamashini harimo ingofero yabugenewe mu mutwe ndetse n'imyambaro ikwiye umubiri wose.

Ahantu hari imbaga y'abantu benshi, hakubiyemo abera n'abirabura bari mu gikorwa cyo gukwirakwiza amashanyarazi kandi bituma ibikorwa remezo byiyongera mu karere, bikaba bigaragara nk'ibintu bishyize mu gaciro kandi bifitiye inyungu abanyarwanda muri rusange.

Ahantu hasa nk'ahakorerwa igikorwa cyo kwagura amashanyarazi, haragaragara abantu bambaye imyenda yabugenewe ni ukuvuga ingofero irinda umutwe, ijire ndetse n'agapfukamunwa gapfutse amazuru ndetse n'umunwa.

Ahagaragara insinga nyinshi z'amashanyarazi, hagaragara umuntu ufite pense mu ntoki ndetse wambaye ingofero isa nkaho ari iy'ubwirinzi na marinette mu maso, akaba akora igikorwa cyo gukora amashanyarazi.

Ku gikuta cyubakishijeje amatafari asize irangi ritukura, ndahabona cashipawa, ikoreshwa bashyiramo umuriro w'amashanyarazi kugira ngo babashe gucana amatara ndetse banagire urumuri ruhagije mu nzu.

Ahagaragara igikorwaremezo kigaragara nk'ipiloni itwara amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye, ndabona ko imbere yaho hari ahantu harunze amatafari munsi y'ipironi, hakaba hateye ibiti ruguru ku musozi naho hakaba hagiye hari ibiti bigiye bitandukanye.

Ahazwi nko ku gisenge k'inzu hejuru haragaragara abagabo babiri bambaye imipira y'imihondo, umwe yambaye uhishe amaboko yambaye umuremure, ndabonaho umurasire w'izuba basa nk'aho bari kwesitara.

Ku ipoto riteranyirijeho insinga zigana ahantu hatandukanye hagaragaho umuntu ukora ibintu by'amashanyarazi, yuriye ndetse akaba yambaye umukandara mu nda umuhuza n'ipoto bikaba bimurinda kugwa.

Kuri sitade hagaragara imbaga y'abantu benshi bagiye batandukanye, mu kibuga haragaragaramo abandi babiri bari kugendana, ikaba ari inyubako ya leta igaragara nk'igikorwa remezo cyiza kigezweho.

Ikizwi nk'igikorwaremezo ikiraro cyubatse mu kirere hagaragaramo abantu b'ingeri zose bakaba bacyishimira kuko ni inzira ibafasha kwambukirana ndetse no kugeza ibicuruzwa mu zindi ntara baba begeranye.

Ahagaragara inyubako isize irangi ry'ubururu hazwi nko kwa muganga, imbere hari abantu baje kwivuza, hafite ubusitani bwiza ariko bugaragara nk'ubutewe vuba ndetse n'utuyira twiza dukikijwe n'amabuye.

Ku mupaka ahagaragara inyubako nziza cyane, ifite isuku ndetse ikaba inafite ubusitani bwiza cyane, hakaba hamanitse ibiti bitatu, bikunze kwifashishwa mu kumanikaho amadarapo.

Ahari imihanda ikeye itandukanye inyuranamo hagati yayo hakaba hubatsemo inyubako zigiye zitandukanye, mu mihanda hakaba harimo imodoka nyinshi, bikaba hari ibikorwaremezo by'igihugu.

Ikirango kigaragaza indangagaciro ndetse na kirazira biranga, akarere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba, harimo ibintu, byiza kandi byo kubaka igihugu urugero gukunda igihugu, gusigasira ibyagezweho ni ibintu, biba bishyize mu gaciro.

Ahagaragara nko ku kibuga cy'umupira ndetse cyubakitse neza, kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo ndetse binenjiriza igihugu cyane, ndabonayo amabara agize idarapo ry'u rwanda, ariyo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Imwe mu nyubako igaragara hano n'inyubako nini cyane, ikaba igaragara nk'igikorwa remezo bashaka gushyiramo ikintu cyinjiriza igihugu, urabona ko hari inyubako nini bihagije.

Umuhanda wa kaburimbo haragaragara aho abanyamaguru bakunze kwambukira haba harimo imirongo y'umweru icagaguye ndetse ku mpande y'umuhanda hakaba harimo uduti tukiri dutoya.

Ahantu hagaragara nk'ahari kubakwa igikorwa remezo haragaragara ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu kubaka. Urugero imashini zisiza ndetse n'iziringaniza ubutaka urwego buririraho ndetse naho batangiye kubaka.

Ahantu hamwe hagaragara igikorwa remezo cy'igihugu haragaragara inzu nziza cyane y'igorofa, ifite parikingi yaparikamo amamodoka ndetse n'ubusitani imbere, y'iyo nyubako.

Amazu meza cyane ateye kimwe kandi akaba yarubatswe mu buryo arebanamo hagati yayo haba harimo umuhanda ukomeza hirya, ubwo rero hasize irange ku mpande ndetse no hejuru y'idirishya.

Ahazwi nko ku kibuga cy'umupira w'amaguru kikaba gifite, korotire z'icyuma inyuma hakaba hahinze ibyatsi hagati mu kibuga hakaba harimo ibyatsi, byiza bitoshye bigifite ibara ry'icyatsi.

Ahazwi nka bimwe mu nyubako ya leta, haragaragara umugore ndetse n'umugabo bari gusoma ku cyapa cyanditseho inkunga y'umukerarugendo mu iterambere ry'abaturage bibiri na makumyabiri na kabiri - bibiri na makumyabiri na gatatu, akaba ari ibintu by'ingenzi cyane kuko bituma igihugu cyihuta mu iterambere.

Ikiraro kikaba ari kimwe mu gikoresho, Leta iba yarashyizeho, kugira ngo yorohereze abaturage mu buryo bwo kugenderana, mu ntara zigiye zitandukanye, urabona ko hari ikiraro gikikijwe na korotire nziza cyane, ubona ko ukinyuraho, aba arinzwe cyane.

Ku muhanda hazwi nk'ahateretswe ubuzu bwa Leta ariko bugaragara mu ishusho nk'aho bumaze, igihe ku ruhande rwabyo hagaragara ibiti ndetse ahantu twubatse dusa nk'utwashaje.

Ahagaragara abantu benshi basa nkaho ari abayobozi bari kuganira ku burenganzira bwa muntu, bari ahantu hasa nkaho hari ikibuga, bakaba bahagaze mu byatsi witaruyeho gato urabona ahahinze insina.

Icyumba cy'uruganiriro ahari kugaragara abantu bane ndetse harimo n'umwe ushinzwe umutekano ndavuga polisi, imbere yabo hateretse amacupa ane y'inyange ndetse n'amakarine bari kwandikaho bigaragara ko hari ikintu bari kuvugaho.

Ahantu hari imbaga y'abantu benshi ikigaragara abari imbere bambaye imipira yirabura kandi yanditseho kimwe bose ari igitsina gore n'igitsina gabo, bafite amagare mu ntoki ubona ko ari igikorwa cy'ubwuzuzanye.

Imbaga y'abantu benshi hakubiyemo igitsina gore n'igitsina gabo, hagaragara umukecuru ndetse n'umusaza bahagaze imbere y'abandi, umukecuru akaba afite indangururamajwi ari kuvuga afite akanyamuneza mu maso.

Ahantu hateraniye abantu benshi, basa nk'aho bahuje ibitekerezo, bari kuvuga ku birebana n'uburenganzira bwa muntu ndetse no kubahana muri rusange, ndahabona abantu bagiye batandukanye, abagore ndetse n'abagabo, hivanzemo n'abashinzwe umutekano.

Abantu batatu, umwe muri bo akaba ari umupolisi, abandi babiri bakaba ari abaturage basanzwe, igitsina gore kirimo aha akaba ari guhabwa seritifika, hakaba hari n'indi mbaga y'abantu benshi ibicaye inyuma.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu hivanzemo inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye bari guharanira uburenganzira bwa muntu ndetse no kurenganura abarenganye.

Ahagaragara nk'ahahinze insina z'ibitoki ndi kuhabona abagabo bagera muri batanu, umwe muri bo akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano bazwi nka polisi ndetse abandi bakaba biyambariye imyenda isanzwe.

Mu kayira ko hagati na hagati ruguru yako hari umurima, hepfo hari ibiti, haragaragara abantu benshi bari kugendamo basa nk'aho ari abayobozi bari kwegera abaturage.

Ahagaragara inyubako imwe ya Leta iriho amadarapo abiri, imwe akaba ari iy'Igihugu cy'u Rwanda indi akaba ari iy'ishyaka rya FPR, haragaragara umukecuru ufite mikoro mu ntoki uri kuvuga ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu.

Mu muhanda wa kaburimbo usa nkaho ari mu masaha yijoro hagaragara icyapa cya mpande eshatu kirimo umunyamaguru bigaragaza ko imbere ari ahantu hambukirwa abanyamaguru.

Ahazwi nko kumuhanda w'amabuye, haragaragara umumotari uri hagati mumuhanda, yambaye Kasike mu mutwe, indi ayifite imbere ye, ndetse yambaye n'umupira w'umukara ufite uturongo tw'umweru kumaboko, ari mu muhanda umanuka.

Ku muhanda ahagaragara akazu abantu bakunze kwicaramo bategereje bisi, urabona ko harimo abantu ndetse hari n'umwe uhagaze imbere yako, ari impande ya moto, ihetse umufuka.

Ku muhanda hagaragara tumwe mu twapa dukunze kuranga karitsiye ndetse n'ipoto iri iruhande rwatwo. Hasi haragaragara rigori itwikiriye ndetse n'inzu iri hirya yatwo.

Ni umuhanda wa kaburimbo haragaragaramo umumotari uri ku ruhande rw'iburyo, akaba ari gutwara amata yambaye kasike isa umutuku, ku ruhande rwo hepfo rw'ibumoso hagaragara amazu agiye atandukanye y'ubucuruzi.

Ahazwi nk'ahantu haparika imodoka zitwara abagenzi, ndabona bisi ebyiri z'umweru ndetse nabanyamaguru bitaruye imodoka, bari muri gahunda zigiye zitandukanye.

Mu umuhanda wa kaburimbo haragaragaramo umurongo uri hagati na hagati w'umuhondo ucagaguye ndetse n'imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri ifite ibara ry'umutuku wijimye, ubona ko iri kumanuka mu gice cyo hepfo.

Kimwe mu cyapa kiri kugaragara ku muhanda gifite ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'umutuku, hagati handitsemo umubare mirongo itandatu kigaragaza ko ikinyabiziga kihaciye kitagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Mu muhanda wa kaburimbo haragaragara imodoka, y'umweru iri hagati mu muhanda kuruhande, rw'umuhanda haragaragara ubusitani bwiza cyane ndetse, n'inzira zagenewe abanyamaguru.

Umuganda ndetse no gukorera hamwe, urugero dutera ibiti, ni ibintu by'ingenzi cyane kuko nk'uko bigaragara, hano hari imbaga y'abantu benshi, hivanzemo igitsina gore n'igitsina gabo, bose kandi barakuze, basa nk'aho bari mu gikorwa kimwe cyo guteza imbere igihugu.

Hano hari abantu benshi higanjemo igitsina gabo ariko n'igitsina gore kirimo, babiri barahagaze umwe afite indangururamajwi umugore yiyoroshe igitenge basa nk'aho bari kuvuga ku bintu by'umutekano ndetse n'uburyo babungabungana hagati yabo, inyuma y'aho hari insina ndetse n'ibigori.

Ahateraniye imbaga y'abantu benshi yivanzemo urubyiruko cyane cyane hakaba harimo igitsina gore n'igitsina gabo, basa nkaho bateranyirijwe ahantu hamwe ,mu rwego rwo kwiga kwiga ku mutekano ndetse n'amategeko areba umuntu ku giti ke.

Umugabo ugaragara mu nzego z'umutekano bazwi nk'abapolisi, ari imbere afite indangururamajwi mu ntoki yambaye isaha ku kuboko ndetse na unifomu zimugaragaza, imbere ye hari icyapa cyanditseho Imbuto foundation bakaba bari ku nsanganyamatsiko yerekeye umutekano w'igihugu ndetse n'abaturage.

Ahagaragara abantu benshi bari mu gikorwa cy'umuganda ndetse bari guca umuferege uzajya utambukamo amazi, inyuma y'aho hahinze insina ndetse hari n'urugo rw'umuturage imbere urahabona umugabo uhetse igikapu ahagaze ari kubareberera.

Ahateraniye imbaga y'abantu benshi basa nk'aho bari mu gikorwa cy'umutekano ndetse baharanira uburenganzira bwa muntu, kuko hagaragaramo inzego zigiye zitandukanye z'umutekano, ni ukuvuga ingabo z'igihugu, abapolisi ndetse n'abazwi nk'abadaso cyangwa abanyerondo.

Mu busitani haragaragaramo abagabo bagera muri batatu, umwe muri bo afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'ingofero mu mutwe akaba ahagaze abandi babiri bari inyuma ye baricaye.

Abantu benshi bakubiye ahantu hamwe bose bari gukora igikorwa kimwe, hakubiyemo n'inzego z'umutekano ni ukuvuga abasirikare, biragaragara ko bari gukora umuganda.

Ahantu hari amazu mato mato asize amabara y'ubururu, ndahabona inzego z'umutekano zo mu bice bitandukanye, harimo abapolisi, abadaso, ndetse n'abanyerondo bahagaze imbere ya kandagira ukarabe, hirya yabo hari imbaga y'abantu benshi bagiye batandukanye.

Abantu batatu basa nk'aho buri umwe yihugiyeho ku kintu runaka, bagaragara nk'abatari gukorera hamwe, umwe muri bo yikoreye ibuye hagati hakaba harimo ingata, inyuma yabo hariyo amazi utemba kandi asa nabi.

Ku kibuga bakiniraho imikino igiye itandukanye, ndikubonaho ikipe iri kwitoza isa nkaho yitegura gukina yambaye ama jesi y'ubururu afite ibara ry'icyatsi mu gatuza hepfo yaho ndi kubona ishuri.

Nk'uko turi kubibona hari abantu bambaye imyenda yabugenewe kugira ngo bajye gukina umukino tuzi nk'umupira w'amaguru kandi hari abantu baje kubashyigikira abo rero akaba ari igitsina gore, ni byiza cyane kubereka ko bashoboye kandi tukabaremamo ikizere cyo gushobora kandi bagatsinda muri rusange.

Ahazwi nko ku kibuga cy'umupira w'amaguru, umupira watangiye ndetse muri koroneli ndahabona akakinnyi babiri badahuje ikipe, kuko imwe yambaye amajezi y'ubururu undi akaba yambaye amajezi y'umuhondo ndetse ku ruhande hari umusifuzi wo ku mpande ufite jezi y'umuhondo ndetse n'umukara hasi.

Ahantu hari imbaga y'abantu benshi bari kuganira ku bintu binyuranye, urugero nk'imyidagaduro itandukanye ifasha mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira w'umweru ndetse akaba afite Ishanete mu ijosi n'agafire mu mutwe, ari gukora kimwe mu myidagaduro ikunze kugaragara mu mashuri yisumbuye cyangwa ahandi hantu.

Ahazwi nko ku kibuga cy'umupira w'amaguru ndabona aho abakinnyi bategerereza kugira basimbure bagenzi babo, baba bafite amazi yo kunywa ndetse bananicaye bareba uko umupira bagenzi babo bari kuwukina.

Abakinnyi batatu bari gukina umupira w'amaguru muri kimwe mu kibuga haragaragara abakinnyi batatu, babiri muri bo bahuje ikipe undi umwe ari guhangana na bo.

Ku kibuga cy'umupira w'amaguru haragaragara abantu batatu basa nk'aho bari gukina umupira, babiri bahuje ikipe undi umwe asa nk'aho badahuje ikipe kuko bambaye amajezi atandukanye, afite umupira kumutwe hirya y'aho haragaragara akana kaje gufana.

Aho bakinira umupira w'amaguru hazwi nko ku kibuga haragaragaramo umuzamu uri mu izamu witegura gutera umupira ndetse ku ruhande hakaba hari n'undi mukinnyi wambaye amajezi y'umuhondo.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, haragaragara abantu babiri, basa nk'aho badahuje amakipe, umwe yambaye amajezi y'umuhondo, undi yambaye amajezi y'ubururu, bose bambaye godiyo ni ukuvuga inkweto zabugenewe, icyo kibuga kirazitiye, rwose kirasa neza.

Ahazwi nko ku kibuga cy'umupira w'amaguru, haragaragara inshundura iriho umuhungu umwe, wambaye ijezi y'ubururu hejuru ni umukara hasi, asa nk'aho ari kwitoza.

Ahazwi nko kuri sitade hagaragara ikipe yambaye amajezi y'ubururu ndetse bakaba bahagararanye n'abandi bagabo ba biri umwe muri we akaba ari uwo mu nzego zishinzwe umutekano, basaba naho bari gushyigikira ndetse bamamaza imiyoborere myiza ndetse n'umuturage ku isonga.

Ahazwi nko kuri sitade haragaragara imbaga y'abantu benshi cyane ubona ko bari mu gikorwa cy'imyidagaduro ndetse rwose bambaye imyenda igiye itandukanye.

Ku kibuga cy'umupira w'amaguru hagaragara ikipe igizwe n'abantu cumi n'umwe, bambaye umweru hejuru, hasi bakaba bambaye oranje ndetse n'umuzamu wabo wambaye ibara ry'umukara hose.

Ku kibuga aho imbaga nyamwinshi yahuriye mu gikorwa cya siporo, haragaragara abantu bagiye batandukanye harimo urubyiruko abakuze, igitsinagore n'igitsina gabo, ahitaruye gato haragaragara abandi bake bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru.

Ahagaragara abantu benshi basa nkaho bavuye muri siporo rusange ndabonamo umumama wicaye ndetse bari kumwe n'umugabo uri kumupima umuvuduko w'amaraso ku kuboko ni ukuvuga ko bari mu bukangurambaga bwo kureba uko umuntu ahagaze.

Ku kibuga cy'umupira w'amaguru ndabona abakinnyi b'amakipe abiri ari guhangana, ikipe ya mbere yambaye ubururu indi yambaye umuhondo, biri gukina ndikubona ipoto iruhande ndetse n'uruzitiro ruzitiye icyo kibuga n'inzu yubatse neza, hirya y'aho ahitaruye.

Ku kibuga aho bakinira umupira w'amaguru haragaragara amakipe abiri ahanganye, imwe yambaye amajezi y'ubururu, indi yambaye amajezi y'umutwe ndetse n'umukara, ku ruhande rwabo haragaragara abaje gushyigikira ayo makipe.

Abahungu babiri bambaye imipira y'umweru, handitseho visiti Nyagatare, bari mu gikorwa cy'imyidagaduro, gisa nk'aho bari guhanga udushya ndetse hari ibintu by'igikundiro cyane kuko byigisha benshi ndetse bikanabakangura.

Ni muhanda wa kaburimbo hagati no hagati hagaragara umurongo uciyemo w'umuhondo ndetse ku ruhande rw'ibumoso haragaragara umukobwa uri kugendera ku ruhande rw'abanyamaguru ndetse n'amazu akikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umuhondo hagati na hagati ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave hirya yawo hari umutaka wa MTN urimo umu ajenti.

Ku muhanda ahagaragara akayira k'abanyamaguru ndetse n'umuhanda urimo kaburimbo, urabona ko hasa nkaho bwije buri kwira kuko amatara yo ku mihanda yatangiye kwaka.

Akayira kari hagati mu byatsi, ni utuyira tuba twaraciwe n'abanyamaguru kuko babona ariko kabugufi kabageza ahantu bagiye kujya batazengurutse ndetse bikabafasha kugenda iminota mike.

Ubu njyewe ndi mu nzira ahagaragara nk'inzira itanyuzwamo n'abantu benshi hagati mu ngo, ni inzira zikunda kugira icyondo cyane kuko nta mabuye ashashemo cyangwa kaburimbo, ubwo rero nasabaga abatwumva n'abafitiye ubushobozi kujya badufasha bakaduha uburyo bwiza bwo kudukorera iyi mihanda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka ebyiri, igikamyo kiri imbere ivatiri iri inyuma, iburyo bwazo hari abantu batatu, ibitsina gore bibiri ndetse n'umugabo umwe uri gusunika igare.

Umuhanda wa kaburimbo haragaragaramo umunyonzi uri gusunika igare uhetse imifuka, urabona ko ari kugendera ku ruhande rw'umuhanda atari mu muhanda hagati.